Banki yitwa I and M bank ikaba yatanze cheque ku witwa Nyiramariza Maurice ikaba ari iyo kubikuzwaho amafarangwa ahwanye n'u ibihumbi magana atatu na makumyabiri nabitanu nk'igihembo.

Sosiyete y'ubwishingizi ni ukuvuga sonarwa ikaba ishobora kukwishingira mu gihe wakoze agisida cyangwa se inkongi y'umuriro yagutwikiye ibyawe iyi sosiyete ikaba ikorera i Kigali mu Rwanda.

Icyapa cyerekana ubwishingizi bw'ibinyabiziga giherereye Kmihurura kiriho amamodoka, abamotari bigaragaza yuko ubwo bwose ari ubwishingizi batanga ku bantu babukeneye.

Ikigo gitanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye, urugero; imodoka, inzu, moto ndetse n'ibindi byose wakwifuza kuba wakenera barabiguha kugiciro gito.

intoki zifashe umutaka zirimo kwamamariza kiriya cano kugira ngo berekane yuko bashobora kuba bakirengera ingaruka z'impanuka zakubaho.

Ikigo cya MUA Insurance Rwanda kirimo kiramamaza ibikorwa byacyo ndetse nibyo giteganyiriza abakiriya kugira ngo bakigane bishimye kandi bafite umutekano.

Icyapa cyamamaza uburyo ushobora kugira umuryango mwiza cyane warawuteganyirije ndetse umuryango wawe ukazabaho utekanye ntabwoba ufite bw'ejo hazaza.

Urubuga rufasha abifuza kugura ibicuruzwa bitandukanye bibereye mu rugo kugira ngo babashe kuba babona ibyo bakeneye babitumeho ndetse bibagereho nta kibazo na kimwe byagezeho.

Kampani y'ubwishingizi mu rwanda ya radiyanti ibafitiye ubwishingizi bufasha mu ishoramari ritekanye abahinzi bakabona umusaruro ushimishije bakaba bashobora kumwishyura ibihombo yagize.

Banki nyafurika yitwa Enisibi eyi ifasha ababishaka kubona inguzanyo ku buryo bwihuse bakabasha kwikorera ibikorwa bitandukanye harimo nko kubaka inzu n'ibindi.

Urupapuro rwa hirwa hibei rwerekana neza sitetementi cyangwa se ibyo yakoze muri uko kwezi harimo ibyo yishyuye cyangwa se ibyo yakiriye kuri akawunti ye.

Ububiko bugaragaza umuntu ushobora kuba waguze igicuruzwa mbere y'igihe akaba yakoze icyo bita bukingi kugira ngo azakibone mu ba mbere iragaragaza agaciro yishyuye ndetse n'ibyo yishyuye.

Hisitori cyangwa se uko ibintu wagiye ukora byagiye bikurikirana. Ibingibi ni ibyo wakoze kuri konti yawe. Bwa mbere ushobora kubikuza amafaranga y'ibihumbi ijana n'icyenda. Ushobora na none kubikuza n'amafaranga ibihumbi ijana na mirongo ita.

Elekuru igaragaza uburyo konti zanjye zihagaze uburyo nshobora kohereza kuri konti yo kuzigama cyangwa se kuri konti ya mobayiro mani. Ikindi kandi hariho n'uburyo nshobora kohereza kuri konti z'andi mabanki.

Sititementi cyangwa se hisitori igaragaza ibintu uba wakoze. Ni ukuvuga ibyo wohereje, ibyo wakiriye ndetse n'ibindi n'amatariki aba ariho, ndetse n'isaha ibyo bintu byose byakoreweho.

Uburyo butandukanye ikigo enisibi eyi cyashyizeho, aho ushobora kwikorera ibintu byawe cyangwa se kwaka serivisi zose ushaka, ukoresheje ikoranabuhanga rya terefone igendanwa mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Icyemezo kigaragaza yuko uwitwa paul Gatsinzi hari amafaranga yishyuye kuri akaunti y'iki kigo runaka kandi iyi ngiyi ikaba ari resi ishobora kumurenganura.

Ikote ryiza cyane ry'abagabo, ririho akarabyo ahagana hejuru iburyo, ndetse harimo n'ishati y'ubururu nziza cyane, irikote rikaba rifite buto ebyiri bizwi nka de buto.

Maneke yambaye ikanzu y'ubururu, maneke ifite isura y'igikara, iteretse ahantu mu iduka ricuruza imyenda y'abagore.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye yiganjemo iy'abagabo, ariko hari n'iy'abagore; ndetse abantu baje kuhahahira barishimye, kandi ahantu bari guhahira harasa neza cyane.

Ibicuruzwa bitandukanye harimo amashakoshi meza cyane iya mbere ibanza ni iy'umukara, ikurikiye irasa kake munsi yaho hariho ijya gusa ubururu hariho ndetse n'iy'umweru izi sakoshi ni nziza.

Ibipupe byifashishwa mu gucuruza imyenda yaba'abagore igipupe kibanza gifite ikanzu nziza y'umutuku, igikurikiye cyambaye umupira w'umweru n'pantaro y'umukara igikurikiraho cyambaye ikanzu nziza y'umutuku igisoza cyambaye ikanzu y'umweru.

Supamaketi cyangwa se ihahiro y'abana ni ukuvuga imyenda y'abana batoya amakanzu meza, udukabutura twiza ndetse n'udukweto twabo ikindi hari n'ibikinisho byabo.

Aho bacuruza amasakoshi y'abadamu hari amashakoshi y'imikara meza cyane, ay'imyeru, ay'ibara rya kake ndetse aha hantu bacururiza hari intebe nziza cyane z'umutuku.

Imodoka yo mu bwoko bwa TOYOTA ifite ibara ry'umukara zicuruzwa n'ubwoko bwa eyibiji bizinesi gurupe, ni ukuvuga Akagera bizinesi gurupe niko kazicuruza.

Abagabo batatu, barimo kuganira, bakorana, bari ahantu heza cyane bakorera akazi kabo, hari televiziyo bashobora kureberaho amakuru y'ibigezweho muri ako kanya.

Imodoka yo mu bwoko bwa kiya nziza cyane igurishwa miliyoni cumi na zirindwi, ikaba ari iyo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu yitwa kiya niro ikaba ari hayiburidi ndetse n'i otomatike.

Umuyobozi wa akagera motozi arimo arashyikiriza imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ya fuso abari barayitumije ibi bikaba bigaragaza imikorere myiza ndetse n'icyizere ku kagera motozi.

Akagera Motozi ubuyobozi bwayo burimo burashyikiriza imodoka nshyashya yo mu bwoko bw'ikamyo, marike ni Fuso, Mitsubishi bakaba barimo barayishyikiriza bari barayitumije.

Abakozi batwara imodoka zitwara abantu n'ibintu, bakaba bari hamwe, bakaba bari kwerekana imodoka nshyashya ya eyibigi, ni ukuvuga iturutse mu Kagera motozi.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota tuzi nka ravafo ifite purake yanditse mu ibara ry'ubururu yandikishije ibara ry'umweru, ifite ibirahure bya fime ndetse irogeje irasa neza.

Imodoka ikiri nshyashya yo mu bwoko bwa yundayi iparitse ahantu heza cyane ikaba itegereje kugurishwa irasa umweru ifite amapine y'umukara n'ikirahure cya fime.

Imodoka ya Toyota, Hayilenda, ha Hayiburidi, yo mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri, y'umukara irimo kugurishwa muliyoni makumyabiri n'eshanu.

Amafaranga menshi cyane bamaze kubara bahita bayazirikaho fimbo iyafata neza kugira ngo atanyanyagira bakayajyana mu bubiko bakayarinda neza cyane kugira atibwa.

Inote nshyashya y'ibihumbi bitanu y'igihugu cy' u Rwanda kiriho ikirangantego k'igihugu ndetse hariho n'inyubako izwi cyane ya komveshoni senta ifatwa nk'imwe mu zikomeye muri iki gihugu cy 'u Rwanda.

Umugore urimo araka service muri banki y'umujyi wa Kigali (Bank of Kigali), yambaye agapfukamunwa kugira ngo kamurinde indwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero.

Banki ya emusi banki mu masaha y'igicamunsi irimo iratanga serivisi zinoze ku bakiriya bazo, bafite akanyamuneza kandi batashye bishimye.

Umugore uje kwaka serivise zo kuvunjisha amafaranga ye y'amanyamahanga, bakaba bari bumuhe amafaranga yose yifuza ahwanyije agaciro n'amafaranga ari bube yazanye.

Banki ya keyisibi iri mu mabara y'icyatsi kibisi irimo iratanga serivisi zitandukanye urugero nko kubitsa kubikuza ndetse bakaba banaha inguzanyo abantu babishatse.

Inote y'ijana y'amadorari barimo, kuyabara ndetse hari n'undi muntu ufite inote nyinshi cyane ziziritse z'amafaranga yo muri kenya, zose bakaba bamaze kuzibara bagiye kuzibika.

Capati ndetse n'igikombe cy'amata umuntu agiye kubinywa kandi arabifata nka bureke fasiti . Capati ziraryoha cyane abanyarwanda benshi bakunda capati.

Igikombe kirimo amata y'inshyushyu ndetse n'umuntu urimo kurya keke asomezaho nayo mata akaba yicaye muri kantine iri mu mujyi wa Kigali.

Umugore urimo gusuka amata mu kabido yambaye ingofero irinda umusatsi kuba wagwa mu mata, arimo arakoresha kandi ijage kugira bimworohere kuba yayasuka mu kabido atayabogoye.

Arimantasiyo yitwa royo fureshi miriki iriho ibyo kunywa bitandukanye harimo amata, yahurute ndetse harimo nibyo kurisha. Iri mu mabara meza cyane y'ubururu.

Amandazi araryoha cyane, akorwa mu ifarini, bikaba biri mu bintu abanyarwanda bakunda kurya cyane, by'umwihariko abana barayakunda cyane.

Ku ikusanyirizo ry'amata rya Mukamira aha bakaba bacuruzamo amata, capati, icyayi, amafanta, amaji ndetse bakaba bafite n'amandazi ndetse na keke zo kurya.

Umugabo wagiye mu ikusnyorizo rya Mukanira ariko kugura amata, arimo arishyura n'amazi yo kunywa, yaguze n'umutobe wo kunywa.

Akabido k'amata karasa umweru karimo ikivuguto kiryoshye cyane giteriretse ku meza y'umukara ndetse abantu barishimye bashaka kukinywa.

Uruganda rwa Mukamira rwatanze poromosiyo ku mata ya bo ya Mukamira, yaba amatoya, amata ay'abana n'abakuru, ndetse n'ayandi yose bakifuza, batanze poromosiyo.

Alimentasiyo icuruza ibyo kunywa ni ukuvuga amaji, amazi, amata y'inyange ndetse n'ibindi, bagufitiye kandi n'ibyo kurya bitandukanye harimo amagi na capati.

Umukobwa wifotoye ifoto ya serifi ufite ibisuko by'umukara, ufite mu maso hasa inzobe, wambaye amaherena abiri ku matwi, urimo kureba ku ruhande.

Ikaragiro ry'amata ya Mukamira hariyo na firigo ishobora kwifashisha ikonjesha amata ndetse n'ibindi bicuruzwa byabo.

Igikombe cy'amata giteretse ku meza ahantu hari kantine ushobora kuguramo ibyo ukeneye urugero amata, amaji, icyayi ndetse n'ibyo kurisha ukumva urishimye.

Icyumba kirimo ibyuma bibiri bikozwe muri aruminiyamu: kimwe ni kinini kiracometse kirimo kwaka, ikindi nacyo ni kinini cyane kurusha icya mbere.

Inyemezabwishyu igaragaza amafaranga yishyuwe ni ibihumbi icumi by'amadorari bihwanye na miliyoni icumi z'amanyarwanda ndetse n'ibihumbi maganinani.

Uburyo bwo kuba wagura abonoma yo kureba televiziyo yawe ukoresheje ikoranabuhanga ukaba ushobora kubikora wibereye iwawe kandi abonoma ikakugeraho mu kanya nk'ako guhumbya.

Abantu baje gukoresha serivise zirimo gufotoza ndetse no kudekarara imisoro barimo kubwira umukozi w'irembo ibyo bifuza kugira ngo babone izo serivise.

Uburyo bwo kohereza amafaranga ukoresheje gorobo banki. Uba ushobora kohereza amadorari, bakaba yagera ku muntu uyohereje mu gihe cy'iminsi itatu kuri ine y'akazi.

Sipeni rukaba ari urubuga rushobora kugufasha kwizigamira amafaranga yawe, ndetse akazakugirira akamaro mu gihe kiri imbere. Ushobora kurudawunirodinga, ukoresheje telefone yawe igendanwa.

Peyi pali na emu pesa, aho ari amakonti ashobora kugufasha kwishyuriraho cyangwa se kuyohereza abantu batri mu hihugu.

Ibiro bya wesitani yuniyoni aho bikorera hari umugore urimo kwaka serivisi akaba ashaka kohereza amafaranga akayoherereza umwana we uba mu Bushinwa kuko ariho yiga.

Uburyo bwifashishwa mu kwishyura momopeyi, bukaba bugaragaza uburyo ushobora kwishyura ukareba televiziyo ukishyura imisoro yawe ukishyurira umwana amafaranga y'ishuri ndetse ukaba wanishyura itike y'indege.

Urubuga rwa sipeni ushobora gukoresha usevinga akaba ari umugabo wishimye cyane urimo kugaragaza yuko yamaze kwisevingira cyangwa se kwizigamira amafaranga azamufasha.

Apurikasiyo ya sipeni ifasha umuntu kuba yakwizigamira amafaranga runaka ikaba ishobora kuboneka aha hakurikira kuri apu sitowe mu buryo bwa ayifone cyangwa se kuri pureyisitowa ku bakoresha andoroyide.

Ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro na mahoro Rwanda reveni otoriti kirimo kirerekana yuko purime inshuwarensi yamaze kuba yajya kuri onurayini ukaba wayisaba wibereye mu rugo.

Urupapuro rugaragaza inyemezabwishyu yatanzwe yuko umuntu yadekaraye ndetse akaba yanishyuye, umusoro akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse yishyuye umusoro wa rwanda reveni otoriti.

Urupapuro rugaragaza inyemezabwishyu y'uwitwa Karemera fulaviya wishyuye amafaranga kuri akawunti ya Rutaganzwa henuri ruragaragaraho nimero zabo bombi ndetse n'imyirondoro yabo yagaragaye.

Icyemezo cya Rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda kigaragaza yuko umuntu atarimo umwenda w'imisoro, ushobora kugisaba ku irembo.

Urutonde rugaragaza ibintu byabashije kuba byapimwa ndetse n'ibyabashije kuba byavamo bikemerwa ibindi bikangwa, harimo inzu yo guturamo ifite etaje ebyiri.

Umuntu wahawe inyemezabwishyu yemeza yuko yadekaraye imisoro ndetse akaba yamaze kwishyura amande yose yari yaraciwe yo ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwagatatu bibiri na makumyabiri na kakabiri.

Inyemezabwishyu igaragaza yuko haba havuyeho umusoro wa teveya iyi ngiyi ikaba ari inyemezabwishyu itangwa na ibiyemu ikaba yarahawe purayime ishuwaresi kapanyi.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti kikaba cyatanze lesi igaragaza cyangwa se inyemezabwishyu igaragaza uburyo iyi titwa saniti bakeri imaze kwishyura amafaranga ahwanye n'ibihumbi icumi.

Urubuga rwa Rwanda reveni otoriti, rwerekana uburyo ushobora kwisabira icyangombwa ni ukuvuga satifiketi de teveya wibereye mu rugo, ukoreshseje urubuga rwa irembo doti komu.

Taburo ya dahabushili yerekana ivunjisha ry'amafaranga niyo ku itariki ya cumi n'ebyiri z'ukwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ikaba igaragaza amadolari amadovize uko avunjwa.

Mu mafaranga y'Abanyamahanga, urugero harimo Amadorari, Amanyarwanda, Amanyakenya, ndetse harimo n'amafaranga yo mu bihugu by'Abarabu, uyu muntu amaze kuyabara akaba agiye kuyabika.

Taburo y'ivunja ry'amafaranga y'amanyamahanga, amadorari iyo uyaguze, uyangura ijana na miringo itatu n'umunani n'ibice mirongo itanu, ukayagurisha inaja na nirongo itatu n'ikenda. Amapawundi yo mu Bwongereza uyagura ijana na mirongo inane n'abiri, ukayagurisha ijana na mirongo inane n'ane.

Amafaranga y'amanyamahanga, Amanyamerika yuwesi dora, inote y'ijana, inote ebyiri z'ijana ijana umuntu azifite mu biganza yaje kuzivunjisha.

Amafaranga y'amanyamahanga harimo inote ya magana atanu yo mu buhinde inote y'igihumbi yo mu buhinde ndetse hariho n'izindi note nyinshi za magana atanu zo mu buhinde.

Uko bavunja amafaranga y'amamahanga, uzana amafaranga yawe wifuza ufite hanyuma bakaguha agaciro k'amafaranga wifuza kuba wahabwa. Ushobora kuzana amanyarwanda bakaguha amadorari.

Inote z'igihumbi z'amafaranga yo muri iki gihugu, gishobora kuba ari cyo mu barabu kuko hariho ikirangantego cyabo ndetse n'ururimi cyanditsemo n'icyarabu ikaba ari inoti y' igihumbi.

Imbonerahamwe igaragaza uko amafaranga y'manyamahanga arimo kuvunjwa muri iki gihe ikaba ariyo ku itariki makumyabiri nebyiri z'ukwa cumi n'abiri mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu.

Inote ya banki nkuru ya Tanzaniya, iriho inzu yerekana umuco n'amateka bya Tanzaniya. hariho n'ibindi birangantego byerekana umuco n'ubuhangange bya Tanzaniya.

Amafaranga y'amanyamahanga harimo amafaranga yo muri nigeria harimo inoti ya magana abiri iy'ijana ndetse aya mafaranga yemewe na banki nkuru ya nigeria.

Inote zigaragaza amafaranga y'amanyamahanga. Harimo inote imwe y'amadorari yo muri amerika, harimo n'izindi note nyinshi zigiye zitandukanye harimo kandi inote ya magana atanu itagaragaza neza igihugu ikomokamo.

Aho bavunjira amafaranga y'amanyamahanga, ushobora kuzana amadolari bakakuvunjira bakaguha amanyarwanda ndetse wanaba ushaka amadolari ufite amanyarwanda nabwo bakakuvunjira bakaguha agaciro kayo.

Aho bavunjira amafaranga y'amahanga ni ukuvuga amadorari bakaba baguha amanyarwanda, wazana amayero ariko ushaka amadorari bakaba bayakuvunjira bakaguha neza neza agaciro kayo.

Ikigo dahapushiri cyohereza amafaranga mu mahanga ndetse kikanavunja amafaranga y'abanyamahanga gishobora kukuvunjira amadovize, amadolari, amayero amapaunndi ndetse kikaba cyanagufasha koherereza umuntu wawe uri kure amafaranga.

Taburo igaragaza uko ivunjishwa ry'amafaranga y'amadevize rihagaze. Amadolari ari kuri magana atanu mirongo irindwi n'atanu bakayagurisha magana atanu mirongo inani.

Aho akisesi foregisi biro ikorera, akaba ari kompani ivunja amafaranga y'abanmanyamahanga, ikaguha amafaranga ushobora kuba wifuza. Ushobora kuzana amadolari bakaguha amayero cyangwa waba ushaka amayero bakayaguha.

Intebe nziza cyane zirimo iz'amabara atandukanye urugero, harimo intebe ya kacye, iya oranje, ndetse zifite n'utumeza twazo, dukoze neza cyane, mu ibara rinogeye buri wese.

Umubaji umaze gukora ameza yo kuriraho, afite intebe zo kwicaraho eshanu, aya mameza akoze muri ribuyu, igiti cyiza cyane.

Ibiro byiza cyane birimo akabati k'umweru, intebe nziza y'umweru, hirya yaho hari uruganiriro rurimo intebe nziza cyane, ziteye amabengeza zifite ibara ry'umukara.

Ameza akozwe mu cyuma afite ibara rya kake akaba akozwe mu cyuma kivanze n'igiti, akaba arimo amavisi bigaragara yuko aya meza akomeye.

Ameza yo kuriraho, afite intebe esheshatu, ateguye neza cyane, mu gihe bataratangira kuyariraho ariho indabo, kandi rwose arasa neza cyane arasa nk'ibara rya zahabu.

Uburiro cyangwa se saramange iriho intebe nziza esheshatu ndetse n'ameza meza cyane y'ikirahure hakaba hateretseho amazi yo kunywa bikaba biri mu nzu nziza cyane isize amarangi y'umweru.

Intebe nziza cyane z'ibara rya kaki zikeneye kozwa ziri kumwe n'ameza yazo yo mu ishusho y'uruziga, hari na kizimyamwoto ntabwo umuriro ushobora kuzitwika.

Hoteri Nziza cyane iriho aho bogera pisine ndetse ikaba iteguye neza ifite n'udutebe ushobora kuruhukiraho uvuye mumazi kandi izuba ritakwica.

Pisine nziza cyane irimo amazi atuje, hakaba hari udutebe two kuruhukiraho, igihe uvuye muri pisine ndetse hakaba hari n'icyo kunywa mu gihe cyose waba ushonje rwose.

Icyumba cyo kuraramo kiza cyane gifite matera nini cyane ndetse n'igitanda kiza cyane kikaba gifite n'inteba zo kwicaramo igihe ubonye umushyitsi cyangwa hari ibyo ushaka kuba ukora muri aka kanya.

Aparitoma yitwa miyitosi ligendari lakishari ifite ibyumba byo kuraramo byo hejuru ikaba ifite ibirahure by'imikara bya fime, ikaba isize irange ry'umweru.

Igikombe k'ikawa yo muri Amerika gisa umweru giteretse ku gasahane k'umweru kiri ahantu bashobora kuba bagurira ikawa yo kunywa kandi birasa nkaho gishyushye kiraryoshye cyane.

Ahantu hatangizwa serivise zitandukanye harimo abakozi baho ndetse n'abahagannye kugira ngo babone izo serivise zitandukanye baba bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ahantu heza cyane wasohokera, hari intebe nziza z'umweru, ameza meza cyane, ibyo kurya bitandukanye, amaji y'ubwoko bwose, ugasohokana n'inshuti zawe.

Hoteri nziza cyane y'amagorofa ane, isize amarangi y'umuhondo ndetse avanze n'ay'umweru. Ifite ibirahure byijimye bya fime, hasi haho hariho pisine ushobora kogeramo.

Icyumba cyiza cyane cyo kuraramo giteye amabengeza kikaba gifite igitanda kinini cyane, gifite amarido meza, gisize irangi ryiza ry'umweru ndetse n'amabara yose ahari ni meza cyane.

Salo nziza cyane irimo intebe z'umukara n'iza shokora, ikaba isize amarangi y'umuhondo, ay'umweru ndetse ikaba ifite n'igiti cyiza cyane kiri mu ivaze y'umweru.

Inyubako nziza cyane ahagana hasi hariho intebe zo mu ibara rya kaki zikaba zicaraho abantu abategereje serivise runaka ikaba ifite amagorofa atatu isize amarangi meza y'umweru.

Inyubako nziza cyane ifite ubusitani hakurya yaho yubakishijwe ibirahure bya fime ndetse amabati yayo arasa umutuku hasi habera ibirori byiza cyane.

Hoteri nziza cyane y'inyenyeri eshanu ikaba igeretse gatatu ifite amazi yo kogamo azwi nka pisine n'ubusitani bwiza cyane, kuko bufite indabo nziza n'ibiti byiza cyane urabona ko biryoheye ijisho.

Inzu nziza igeretse rimwe isize amarangi ateye amabengeza, ibara ry'ubururu ndetse yubakishije amatafari ahiye, mu gikari cyayo hari akabaraza keza karimo n'intebe zo kwicaramo.

Inzu y'amagorofa umunani isize ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru werurutse, ifite ibirahure by'imikara bifite na giriyaje z'imikara z'ibyuma.

Sosiyete y'ubwishingizi ya purayime inshuwarensi mu gihe uyikeneye usanze imiryango ikinze ushobora kuyihamagara kuri nimero itishyurwa ariyo rimwe gatatu kabiri zeru.

Ahantu ikigo cya UAP inshuwarensi kamponyi gikorera kikaba gitanga serivise zo kwishingira ibinyabiziga ibinyabiziga bitandukanye urugero moto, amagare ndetse kikaba kinishingira imodoka zaba iz'abantu kugiti cyabo n'inini.

Moto iparitse hanze y'umuryango w'ubwishingizi bwa radiyanti inshuwarensi kampani akaba nyirayo yagiye kuguramo ubwishingizi bwa moto yiwe bw'impanuka.

Inyubako y'amagorofa ane iriho icyapa kinini cya Prime Insurance ndetse icyo cyapa kiri mu mabara y'ubururu, iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye.

aho icyigo cya kuzo rimitedi gikorera harasa neza cyane hari mumabara y'umweru, ndetse hari n'amakaro hari isuku birashoboka ko ari muri wikendi kuko ntamukozi uhari.

Ubwishingizi bwa Prime Insurance, mu mabara y'umururu n'umuhondo, hariho nimero zabo zo kubahamagaraho, cumi na gatatu, makumyabiri, mirongo itatu.

Ubusitani bwiza cyane buriho igishushanyo k'inyubako bigaragaza yuko ari kampani runaka yubakisha yaba amazu cyangwa se imihandi irimo kwerekana ikibanza kigiye kubakwamo.

Ikigo Ayi andi emu esi emu kava kikaba kirimo kirerekana bizinesi yabo ikaba yoroheye buri umwe ndetse ikaba ari bizinesi yo gutanga ubwishingizi kuri buri wese ubishaka.

Banki ya bi pi ara banki, yatanze itangazo rivuga yuko abakiriya bayo bose bagomba kuba bandikishije imigabane bari bafite, kugira ngo bazabashe kuba bayibarirwa yose uko yakabaye.

Umutanguha fayinence compani piyarasi ikaba ari ishami riherereye Kicukiro, ikaba ari banki zishobora kukuguriza amafaranga mu gihe hari bizinesi runaka ushaka gukora.

Ibyo kurya bitandukanye birimo imboga ni ukuvuga amashu hakaba harimo seleri, pavuro, kokobure hakaba harimo ibitunguru, imbogarwatsi ndetse n'ibindi byinshi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibyo kurya, ni ukuvuga ibijumba, imyumbati, ibirayi ndetse n'ibindi ibyo byose bikaba birimo kugurishirizwa hano.

Isoko ry'abazunguzayi rya nyabugogo ririmo umugore ucuruzamo utwenda tw'abana harimo udukabutura, udupantaro n'udukweto twabo.

Mu isoko ry'imboga n'imbuto, harimo abantu bacuruza ibintu bitandukanye. Hari umugore ucuruza avoka ndetse n'amaronji. Agacuruza n'inyanya na tangawize kugira ngo abone ibimutunga.

Ifoto igaragaza abantu batonze umurongo bagiye guhaha mu iduka ricuruza telefone, rikaba riherereye ku isoko ry'umugi wa Kigali rir i Nyarugenge mumugi.

Isoko ryo guhahiramo ibyo guteka urugero harimo abagore bari gucuruza inyanya, abari gucuruza ibitunguru na karoti, n'intogi ndetse harimo n'abari gucuruza igitoki cyo kurya.

Abantu bari ku murongo bose bakaba bategereje serivise zigiye zitandukanye. Umugore uri imbere yambaye umupira w'umuhondo afite ikaramu ye mu ntoki. Hari ibyo arimo arasinya. Abamukurikiye nabo baramutegereje bitonze.

Abagore bagiye guhaha mu isoko. Bagiye kugura indagara, ibirungo byo guteka umuceri, ibigori ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko ry'imyenda rya kimisagara rirashaje cyane hejuru y'amabati haguyeho ibintu bishobora kuryangiza ndetse bikaba byanateza impanuka mu gihe bitabashije kuba byakumirwa.

Isoko ry'imboga n'imbuto ririmo abagore batandukanye, barimo gucuruza imbuto ndetse n'imboga byo kurya. Hari abari gucuruza inyanya, abandi bagacuruza ibitunguru, abandi bagacuruza karoti n'imiteja.

Inyubako ifite amagorofa icyenda iherereye kicikiro ifite amatara ayimurikira ndetse ikaba igeraho umuhanda iba iriho urujya n'uruza rw'abantu bajya batandukanye.

Isoko y'imbaho cyangwa se agakiriro gaherereye mu mujyi wa kigali kubakishije amabati y'umutuku kakaba gafite ubusitani butari bwamera neza ariko buri kwitabwaho.

Umugabo urimo kwishyura akoresheje ikoranabuhanga ryo guskana kode ya momopayi akabona kwishyuriraho amafaranga esase amaze kunywa.

Abakozi ba MTN bo kuri savisi senta barimo baratanga serivise zagenwe kandi bari kubikora vuba bafite abakiriya barimo kubagana kandi bose barishimye.

Akazu ka emutiyeni kariho uburyo ushobora gukoresha wizigama cyangwa se ukaka inguzanyo kuri mo kashi ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatanu ugakanda urwego.

Akazu ka emutiyeni k'umu agenti wayo karagaragaza serivisi ushobora kunyuraho kugira ngo ugere ku byo wifuza hari imibare ushobora gukanda, akannyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego ugakurikiza amabwiriza.

Umu Ajenti wa MTN, urimo kubikuriza umunyeshuri amafaranga yahawe n'ababyeyi be, y'itike, kugira ngo abashe gufata imodoka ikamwerekeza ku ishuri.

Serivisi za momo ni ukuvuga mobayilo mani zikaba zoroshye ushobora gukoresha mobile money ukanatsindira ibihembo bitandukanye byose biroroshye kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyeri gatatu.

Akazu k'umuhondo k'umu ajenti wa MTN ucuruza amayinite yo guhamagara ndetse n'amayinite ya interineti yicayemo afite umwana.

Abantu ni benshi baje ku kazu ka emutiyene kugira ngo basobanurirwe neza ibyiza bya emutiyene, uko ikora ndetse babashe no kuba batahana igicuruzwa gishya yashyize ku isoko.

Umuntu ucuruza amanite wambaye ijure ye emutiyeni afite umutaka wa emutiyene arimo araha serivisi nziza umuntu waje amugana rwose.

Umuntu umaze kunywesha lisanse mu modoka ye, arimo arishyura umukozi wamushyiriyemo esanse akoresheje ikoranabuhanga, ni ukuvuga uburyo bwa momopeyi, ni uburyo bwiza cyane abantu bakoresha.

Inzu nziza cyane ifite inzugi n'amadirishya, iteyeho umucanga hasi harimo amakaro, ifite igisenge hejuru isakaye. Harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Ikigo cyitwa oni tayime fasiti de rivari kirabamenyesha yuko kibafitiye serivisi yo kuderevariga cyangwa se kuzana ibyo mubatumye bakabibashakisha aho muri mutiriwe muhava kuri serivisi yihuta.

Umumotari utwaye moto y'umutuku ugemuye ibyokurya bya vuba vuba arimo arabijyana ku muntu wabitumije kugira ngo bimugereho hakiri kare kandi bitamugoye.

Umumotari utwaye moto y'umutuku, ugemuye ibiribwa, abishyiriye umuntu ahantu atuye, wambaye agapfukamunwa n'umupira w'umutuku.

Ubu ushobora kugura ibintu biturutse mu burayi ndetse no mu Budage, ibyo bintu byose bakaba babikuzanira mu gihugu cyawe ubungubu ushobora kubikora wibereye iwawe koresha ubu.

Inzu nziza cyane iherereye kicukiro mu kagarama mu mujyi wa kigali, ni cadasiteri yubakishije amatafarihiye ndetse ifite n'igisenge kigezweho gisi umutuku iherereye mu kagarama iragurishwa.

Inyubako ya kadesiteri ifite amabati y'umutuku ifite ibirahuri bya fime iherereye i Kigali ikaba igurishwa miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'amafaranga y' u Rwanda.

Umugore n'umugabo we bari ku kabaraza k'inzu yabo ahantu hari amafu cyane kuko hari vandarateri ndetse hasize akabara keza cyane k'umweru, intebe nziza cyane z'imisego myiza y'umweru barishimye.

Icyumba cya hoteri cyiza cyane, gishashe neza, kinini, gifite televiziyo, gifite ubwogero ndetse gifite n'akabati ko kubikamo imyenda, kirasa neza cyane.

Inyubako nziza cyane ya kadasiteri ifite amarangi y'umweru, ikaba ifite igipangu cyubakishije ruriba, ifite akajaride keza cyane, iyi nzu rero iragurishwa, iherereye i Kigali mu Rwanda, miliyoni mirongo irindwi n'eshanu zonyine.

Ibaraza rya kadasiteri nziza cyane risize amabara yumweru, igipangu irimo gifite imodoka nziza y'umukara n'amapave atukura.

Inzu ikodeshwa iri I Kigali ifite amabati y'icyatsi isize irange ry'umweru inzugi zijya gusa gereyi ndetse ifite ubusitani bwiza cyane.

Icyuma kiza cyane cya hoteli, igitanda kiza cyane kinini, amarido meza cyane asa icyatsi avanze n'ibara ry'umweru irange ryiza cyane risize muri iki cyumba rirasa umweru.

Inzu nziza cyane ikodeshwa i Kigali mu Rwanda igeretse kabiri kandi ni nziza cyane ifite inzugi nziza cyane.

Ibiro cyangwa se ahantu ushobora gushyira ibiro muri saro cyangwa se mu cyumba aho hose hakaba hakodeshwa igihumbi n'ijana cy'idolari iyi nzu ikaba iherereye kimironko.

Inzu nziza cyane iteye amarange atukura ndetse n'akarange keza cyane k'ubururu, irimo amakaro ikaba ikodeshwa iherereye kimironko ibyumba bibiri ubwogero bubiri nikalibu ni kalibu.

Inzu yo gukodeshwa, iherereye i Kigali, i Remera, ifite icyumba kimwe ndetse n'ubwogero bumwe. Ifite inzugi nziza cyane, ndetse n'ibirahure bya fime, iyo nzu irimo amakaro.

Inzu nziza cyane yigorofa rimwe ifite ibirahure byiza byijimye bya byafIme ikodeshwa iri Kigali kimironko.

Inyubako ya aparitoma ikodeshwa iherereye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ikaba ifite na parikingi nini cyane ishobora kwakira imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyo kwitorezamo cya jimu gifite ibikoresho bitandukanye harimo ibyuma byo guterura, amagare yo kunyonga ndetse n'icyuma cyo kwirukiraho.

Inzu igurishwa nziza cyane iherereye kigali kimironko inzu ya kadasteri iri mu gipangu cya yonyine ikaba igurishwa miliyoni mirongo ikenda n'eshanu zonyine.

Inzu nziza cyane yo mu bwoko bwa konoshi, ifite amabara y'umutuku ndetse n'amabara y'ubururu, iriho umugabo urimo kwerekana iyo nzu nziza cyane ukuntu ikoze.

Inzu iherereye kimironko mumugi wa kigali igeretse rimwe ikaba ikodeshwa ifite ibyumba bine ikagira ubwogero butatu ndetse ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu gusa kukwezi.

Inzu yo gukodeshwa, ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri, iherereye Kigali, Kibagabaga, ikaba nta bikoresho byo mu nzu birimo, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda, ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iri hafi ya rubisi, ikaba iherereye ku kagugu, ikaba ifite ibyumba bibiri, ikaba ifite n'ubwogero bubiri ikindi kandi ifite hanze hisanzuye cyane.

Inzu nziza cyane isize amarange y'umweru, igeretse kabiri ndetse ifite esikariye cyangwa se amadarajya akoze mu giti, afite inkingi z'umukara.

Inzu nziza cyane ikodeshwa igeretse rimwe ifite ibirahuri bya firime, ikaba ifite ibyumba bine ,ndetse ikabikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo itanu gusa ikaba ari tu ini wane.

Iyingiyi ni inyubako nziza cyane, ikaba ikodeshwa, ikaba iri mumujyi wa Kigali i Remera. Ikaba kandi ifite amagorofa abiri yose ukaba ushobora kuyikodesha guhera kubihumbi bibiri by'amadorali kuzamura.

Inzu nziza yo gukodesha iherereye kimironko kwa sekimondo ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ikajyira ubwogero butatu, ikagira na garidirobe muri buri cyumba ikodeshwa ibihumbi magana tatu.

Isoko ry'imyenda, inkweto, amasakoshi, imikandara, inkweto z'abana, inkweto z'abagabo, n'inkweto z'abagore ndetse n'umugore urimo guhahira umugabo we inkweto.

Abantu bari mu ihahiro ririmo ibintu bitandukanye, by'umwihariko harimo imyenda yo kwambara, ibikapu, hakaba harimo imitako igiye itandukanye, abantu barimo bose urabona ko bishimye bari buze kugura.

Iduka ricuruza imyenda y'abagabo, harimo amasentire inkweto zo kwambara, amashakoshi atandukanye ndetse hakaba harimo n'iyindi myenda myiza cyane n'abagore bashobora gukoresha.

Inyubako ndende ikoreramo ibintu bitandukanye ikaba ifite amagorofa atatu by'umwihariko hejuru bakoreshamo ikigo cya biheyici ndetse munsi yaho hari abantu baba bagenda.

Alimantasiyo irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo abantu barimo guhahiramo, abagura imigati, abagura amata y'abana n'abagura amaji yo kunywa harimo n'abari kugura fanta.

Isoko ry'imbuto, ibyo kurya, imyambaro ndetse n'ibindi bitandukanye. Abaririmo bose baraza gushima kandi baragura buri wese akurikije icyo yashimye.

Umugabo n'umugore bagiye kugura ibicuruzwa bitandukanye muri arimantasiyo barimo kugura amavuta yo kwisiga, ndetse n'ibindi byose bakeneye hakubiyemo amarabero ndetse n'ibyo kurya byose.

superi marishe irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya, imigati, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. urugero nk'amafanta yo kunywa, amazi n'ibindi.

Iguriro ririmo umukozi wambaye ishati y'ubururu harimo na manaja wambaye ishati y'umuhondo, aba ngaba bakaba batanga inyemezabwishyu ya teveya ndetse na Rwanda reveni.

Iduka ricuruza imyenda igezweho y'abagabo, ni ukuvuga amakote, amashati meza, amakaruvati, byose kandi biri mu mabara atandukanye ndetse ahantu iri duka riri, harakeye rwose hakurura abakiliya.

Isoko rya Nyarugenge aho beka ikorera ndetse hafi yaho bacuruza ibyombo, harimo amasorori yo yo kuriramo, amasafuriya yo gutekamo, ibikombe byo kunyweramo, ndetse n'amaterimusi yo kubikamo.

Superimarishe irimo guhahiramo abantu batandukanye, ikaba irimo ibicuruzwa bitandukanye amaji yo kunywa, amafanta ndetse umukozi wayo ari gukoresha ikoranabuhanga agatanga na ibiyemu.

Abagore bicaye hamwe bategereje kugira ngo bahabwe serivisi zitandukanye bashaka bose bakaba baje kwa muganga kandi bicaye ku murongo neza batuje nta kibazo.

Abagore bicaye batuje bakorera muri koperative ihinga ikawa bose biteje imbere ndetse barimo no kumwenyura kuko abana babo basigaye biga amashuri yose uko babisabwa.

Ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda, Rwanda sosho securiti bodi (Rwanda social security board), kirerekana ikirangantego cyacyo ndetse n'intumbero zacyo mu Rwanda.

Abagabo babiri bamaze kuva mu nama hari ibyo baganiriyeho ndetse barimo kubyibukiranya bagakorana mu kiganza bakongera bakabyemeza yuko bizaba koko nta kabuza.

Umuturage waje kwaka serivise za leta arimo arerekana ibyangombwa bye kugira ngo babashe kuba bamuha iyo serivisi, umuntu urimo kumwakira yamwakiranye yombi kandi aramufasha rwose.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza bwa arasesibi ya kera itagikoreshwa ubungubu, kuko hasigaye hakoreshwa irangamuntu ya nyir'umuryango.

Umukozi ukora mu gikoni, wambaye itaburiya ndetse n'umupira w'umutuku, arimo aratunganya amafunguro yo kurya ndetse afite isuku biragaragarira buri umwe kandi n'aho ari gukorera nuko.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse harimo n'abantu baje guhaha hari abaje kugura, isukari abaguze imigati, abaguze amaji yo kunywa ndetse hari n'abandi bakirimo gushakisha ibyo bakeneye.

Ihahiro cyangwa se supamaketi irimo ibicuruzwa bitandukanye urugero amashokora, inzoga zinyuranye, ibyokurya bitandukanye amasinakisi ndetse hakaba harimo n'ibyo kurya byinshi nka pome.

Umukozi wicaye ategereje yuko abakiriya baza kuba bahaha muri arimantasiyo akoramo kugirango abashe kuba yabafasha kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga muburyo bwihuse.

Ihahiro ririmo ibiribwa bitandukanye harimo amaji aba ari mu mafirigo akonje n'ashyushye, amavuta yo guteka, amabiswi atandukanye.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye urugero isukari, ibyo guteka, ibyo kurya bitandukanye urugero nkimigati, amapome, amasinakisi ndetse n'ibindi.

Umukobwa uri muri arimentasiyo arimo aragura parufe yo kwitera yaguze ji yo kunywa ari kureba n'umugati wo gutahana wo kurya mu mugitondo.

Arimantasiyo ikoreramo umuntu ukoresha ikoranabuhanga, haba mu kwishyuza, ndetse bakanamwishyura mu ikoranabuhanga, hariho umuntu umaze kugura ibicuruzwa bitandukanye, harimo amasinakisi, na ji zo kunywa.

Umuntu urimo gucuruza ibyo guteka bitandukanye harimo inyanya, ndetse hakaba hari umugore, urushaho kugura inyanya zo kujya guteka mu rugo, akaba agiye kwishyura ku buryo bw'ikoranabuhanga.